Umunara wubatswe mu ruzitiro rukozwe n'ibyuma, ukaba ari iminara ikunzwe gukoreshwa mu gukwirakwiza itumanaho rya sosiyete zitandukanye.

Iyi foto irerekana umuntu w'umusore wambaye amadarubindi ndetse n'umukobwa uri imbere wambaye ekuteri uyu musore akaba ari kureba ibitete.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima arabisi, ikarita yacyo yerekana nimba warakingiwe kovide nayinitini, hari aho ushyiramo nimero ndetse na kode wahawe mu gihe wafatwaga ibizamini bya kovide nayinitini.

Umukandida wa efuperi Inkotanyi ubwo yari kwiyamamaza ageze aho abaturage benshi baje kumwakirira hepfo y'aho hakaba hari ishyamba rinini cyane aka n'abantu bagenda bafata amafoto y'ibiriri kubera aho yaje kwiyamamariza abaturage bagaragaza ko bamwishimiye bakamanika amadarapo yabo.

Umunsi umwe gusa, ubura umunsi umwe gusa, kugira ngo wishyure umusoro wawe wa bibiri na makumyabiri na Kane, ukaba usabwa kwishyura no kudekarara umusoro mbere y’igihe cyagenwe, wirinde amande.

Aha ngaha hari ikibazo kivuga ngo mbese ni gute umusoro ku mutungo utimukanwa ubarwa. Ku gisubizo kikaba kivuga yuko umusoro ubarwa kuva kuri zeru kugeza ku mafaranga y'u Rwanda mirongo inani kuri metero kare.

Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Imisoro n'Amahoro, kirerekana uko ushobora kubona amakuru ajyanye n'imisoro, uko ushobora kubona imibare yahujwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro, ushobora kubona raporo yahujwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro, raporo z'ubushakashatsi ndetse ukabona na serivisi zitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro.

Iyi ngiyi ni foto igaragaza pepiniyeri cyangwa se ahakurizwa ibiti, ibi bikaba ari ibiti by'imikindo ndetse iruhande rwabyo hakaba hari agasanduku gatanga interineti kazwi nka fibure oputike.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi ishinzwe kugeza umuriro w'amashanyarazi mu nce zitandukanye ikaba igaragaraho isinga n'umuriro w'amashanyarazi mu bice byayo byombi ibuburyo n'ibumoso zerekeza mu byerekezo bitandukanye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo buteye imbere ndetse ikaba ifite ibyumba byinshi cyane harimo iby'ubucuruzi ndetse n'ibindi byo kubamo, inyubako ikikijwe n'imodoka nyinshi ndetse n'abantu, n'abanyamaguru ndetse n'abamotari bahetse abagenzi .

Iyi ngiyi ni ifoto igaragaza abaturage bari mu nkiko gacaca zikaba ari inkiko zashyizweho kuburanisha ibyaha bya jenoside ndetse zikaba zaragize akamaro gakomeye mu butabera bw'u Rwanda.

Icyapa cy'ibitaro bya polisi bya Kacyiru, bikaba ari ibitaro bya polisi y'u Rwanda biherereye mu murenge wa Kacyiru bitanga serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Kuzimya inkongi y'umuriro biri kwerekanwa n'umunyeshuri abyeraka abandi banyeshuri yerekana uko haza inkongi y'umuriro yifashishije igikoresho kizwi nka kizimyamwoto.

Uyu nguyu ni Ingabire Victoire, ufite ishyaka ritemewe ryitwa Dalpha Umurinzi, akaba yarahamwe n'ibyaha by'ingengabitekerezo ya Jenoside, ariko akaza kurerekurwa ku mbabazi za Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Paul Kagame.

Iki ni icyapa kiriho Mpayimana Philippe wiyamamarije mu matora ya perezida wa repubulika yabaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, Mpabimana Phillipe akaba yaraje gutsindwa aya matora.

By'ibanze wakora mu gihe habayeho gusohoka kwa gaze, mu gihe uri nko mu nzu ushobora gusohoka cyangwa ugakoresha ubundi buryo bwakurinda kugira ngo itaza kukwangiza.

Igare riri mu muhanda ryikoreye umufuka, uwo mufuka ukaba urihambiriyeho ndetse ryerekana n'umunyegare ataritwaye ahubwo ari kugenda arisunika, rikerekana n'imodoka yari iri kuza iri mu gice kirebana n'icyo uwo munyegare yerekezagamo.

Iyi foto irerekana icya icyapa cyanditseho sitopu (stop) kikaba ari icyapa gikoreshwa mu mateka y'umuhanda ndetse n'ahandi hatandukanye byerekana y'uko aho hantu iyo uhageze ugomba guhita uhagarara.

Aha turahabona inzu zo guturamo ndetse ruguru tukahabona inzu eshatu zigeretse zimeze nk'amacumbi ndetse n'ibindi bibanza bitubatsemo amazu bitarubakwa.

Abagabo bane harimo babiri bambaye imyenda y'umukara yambarwa n'abapolisi bo mu Rwanda hagati y'abo harimo umugabo wambaye ikanzu y'umweru n'ingofero y'umweru n'inkweto z'umukara, umeze nk'umunyabyaha ufite uruhu rwirabura bazwi nk'abazungu. Inyuma y'abo hari imodoka ifite amabara y'umweru, ubururu n'amatara y'umutuku n'ubururu impande y'imodoka hahagaze umugabo.

Abagabo babiri umwe ari kugenda, undi ari kwitegereza igipangu gifunguye kirimo amacumbi.

Iki ni ikiraro cyerekana ikinyabiziga cya moto ndetse n'imodoka, biri kugica munsi ariko hejuru y'icyo kiraro na ho hakaba ariho umuhanda uvuga ko imodoka ishobora kunyura hejuru ku kiraro ariko no munsi hanyura izindi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bya moto ukaba ari umuhanda w'ibisate bibiri ndetse harimo n'inzira ushobora gukoresha mu gihe uri guhindura igisate cy'umuhanda wagenderagamo.

Iyi ngiyi ni ifoto yerekana urujya n'uruza rw'imodoka, moto ndetse n'abanyamaguru bari ku kiraro, bahazwi nka Kicukiro centre, mu masaha y'ijoro, bigaragara ko buri wese ari kuva mu ruhande rutandukanye n'urw'abandi.